Kuri kiyosike ya MTN abantu bategereje guhabwa amayinite ndetse na serivisi zijyanye na Mobile Money, kimwe mu bintu ubona ko mu Rwanda bigezweho hifashishijwe ikoranabuhanga.

Ahangaha ni muri burutike, ahacururizwa imiti y'amatungo, ndetse n'imiti y'ibihingwa, ubona ko ari aho bakorera.

Abantu bari mu nama barashaka gutanga ibitekerezo bitandukanye kandi ubona ko byose ar'ibyingenzi mu buzima bwabo, yaba ari abagore, yaba ari abagabo bari mu nama ubona ko ari mu cyumba cyiza cyane.

Ahantu hatatse neza harimo imitako myiza, ariko kandi ubona ko barimo gutegura kwakira amafunguro mu buryo bwiza kandi bugezweho.

Kuri hoteri cyangwa se ahantu abantu basohokera, ahantu hateguye neza harimo intebe, ndetse kandi iruhande rwaho hari ibimera byiza bibengerana bitatse neza.